Ahari gukorerwa ubwubatsi hamaze kwangi amazu abiri asize amarange urugo ndetse yubakishije amatafari ahiye, hari n'ikigega gisize amangi y'ubururu cyubakishije amabuye akorotirijwe amasenyengi n'ibyuma, mu mbuga yaho hari amatafari ndetse no mu nkengero zayo hateye ibiti byinshi.

Akana gato kambaye umupira w'ubururu harimo uturonko tw'umukara n'agakabutura k'umukara karirimo akabara k'umutuku, gafite isabune mu ntoki, bari kugasukira amazi n'igikoresho cy'icyatsi, bagerageza kukigisha ko isoko y'ubuzima ari isuku.

Umugabo ukuzemo w'imibiri yombi, wyogoshesheje, wambaye ishati y'amaboko maremare, mu bituza bye harimo amabara y'icyatsi, y'umuhondo ndetse n'umutuku, afite akanyamuneza mu maso. Inyuma ye hahagaze abantu benshi, ndetse n'ikibumbano cy'ingagi.

Inzu z'amagorofa maremare zigera kuri zirindwi, imwe muri yo ifite ibirahure byinshi, isize amarangi y'ubururu, zubatse ku mazi. Amazi arimo ubwato busize amarangi y'umweru, mu mujyi rwagati.

Inzu ebyiri z'amatafari ahiye, zisize amarange y'umweru, n'amarangi y'icyatsi, ku amabati yashinze amapoto y'amatara hazitijwe ibyuma bisize amarangi y'icyatsi, hari ubusitani bwiza, ndetse hari n'ibigega binini by'umukara.

Ahubatse inzu y'amagorofa abiri. Ikigo nderabuzima gisize amarangi y'umweru ndetse n'ay'umuhondo. Imbere yaho hari ibiti ndetse hari n'abandi bantu benshi, harimo n'ushinzwe gucunga umutekano w'iki kigo nderabuzima, ndetse n'amabati yenda gusa ubururu.

Inzu ikorerwamo siporo, isize amarangi y'ikijuju, ifite amatara y'umweru, hari ibikoresho byinshi byifashishwa mu gukora siporo harimo: nk'ibyuma baterura, ibyo basunika, ibyo bakurura ndetse n'ibyo birukankiraho, mu nkengero zaho hari ibiti, bisa n'ibirahure birebire bishashemo itara ry'ubururu.

Ibitaro bigezweho, ahateye ibiti, imikindo ku muhanda, icyapa kirangira abantu ibyo bitaro, ndetse ni inyubako ifite amagorofa isize amarange y'umweru, hari idapo na parikingi, hari akazu ka mtn, hakorotirijwe ibyuma.

Imikasi, udupfukamunwa, ga, ibikwasi, udupence utunozasuku, imifuko, bande, imiti y'ibanze ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mugihe umuntu ahuye n'impanuka y'ako kanya akaba yabasha gutabara ubuzima bwe.

Bumwe mu buryo bwihuse kandi bugezweho korohereza abaganga ndetse n'ibitaro n'abarwayi kubagezaho ibyo bakeneye harimo nk'imiti, amaraso, insimburangingo isi ya none yifashishwa dorone kubagezaho mu buryo bwihuse.

Abantu babiri bari gukora siporo, ni umugore n'umugabo bamanitse table, ndetse n'imigozi bakoresha bazamukiraho. Siporo ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwa buri munsi, kuko bituma irinda umubiri wawe kurwara, ndetse ukagira n'ubuzima buzira umuze.